Abana bambaye impuzankano y'ishuri, inyuma yabo hari ikibaho bicaye ku ntebe z'ishuri, kuri izo ntebe hariho ibiryo, ibishyimbo ndetse n'ubugari bw'ibigori.

Inyubako iteraniyemo abantu benshi bicaye imbere hari abayobozi bayoboye inama bari kwiga ku mibereho myiza y'abaturage n'uko abantu babaho neza bafite ubuzima bwiza.

Umwana wambaye umwambaro usa n'umuhondo w'icunga rihishije arishimye, ari ku ivomero afite igikombe ari kuvoma amazi ngo ayanywe agire ubuzima bwiza buzira indwara.

Umwana ukiri muto uri ku ivomero, aha ku ivomero hari ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi ndetse n'uyu mwana ari koga ibiganza bye, arishimye, yishimiye ko bafite ivomero babonaho amazi yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ivomero, imbere yaryo hari umugabo wishimye, ufite igikoresho cyifashishwa mu kubika amazi, bigaragara ko uwo mugabo yishimiye kuba hari amazi, abafasha muzima bwabo bwa buri munsi, bakaba bagira imibereho myiza.

Abantu b'igitsina gore bari hamwe bishimye ndetse bari kubyina bazamuye amaboko yabo, bafite ubuzima bwiza kandi bishimiye imibereho yabo ya buri munsi.

Abavuzi bateraniye hamwe barishimye bishimiye inama bamaze kugira ivuga ku mibereho myiza y'abaturage, n'uko bakomeza gufasha abantu mu gukira indwara zitandukanye.

Abana bato bari kumwe n'abandi bantu batatu b'igitsina gabo, bari kubereka ibyerekeye kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe ndetse n'ibyiza byo kubaho neza.

Ababyeyi bicaye ku ntebe ku bitaro bakikiye abana babo, bagiye kubakingiza kugira ngo abana babo bagire ubwirinzi ku ndwara zitandukanye kandi bazakure neza mu gihagararo no mu bwenge.

Abana bakiri bato bicaye hasi, hari umuntu mukuru uri kubaha amata ari mu nkongoro kugira ngo abo bana babashe kugira ubuzima bwiza.

Umwana ukiri muto uri ku ivomero, ari kunywa amazi yo ku ivomero akoresheje ibiganza bye, aya mazi yakaba asukuye, bikamufasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umubyeyi ufite umwana ari ku ivomero, ku ivomero hari igikoresho kifashishwa mu kuvoma amazi ndetse uyu mubyeyi yishimiye ko iri vomero riri aha, bakaba babona amazi bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ivomero imbere yaryo hari umwana wambaye umwenda w'ibara ry'icyatsi uciye amaboko, ari koga ibiganza, agaragaza bimwe mu byiza byo koga ibiganza, harimo nko kwirinda indwara.

Abantu bari ku ivomero, bafite ibikoresho byifashishwa mu kubika amazi, bari kuvoma. Aha ku ivomero kandi, hakikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye, aba bantu bakaba babona amazi bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abana bakiri bato bambaye impuzankano y'ishuri bari kumwe n'umwe mu bakuru wambaye indorerwamo z'amaso, bafite imfashanyigisho mu biganza byabo bazizamuye bigaragaza ko bishimiye ibiri muri izo mfashanyigisho byerekeye ubuzima bwiza.

Ikirangantego cy'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kubungabunga amazi no kugeza amazi meza ku baturage, bakayakoresha mu mirimo itandukanye yo mu rugo ndetse no mu bigo bitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza babeho neza.

Abana bane bari kwivomero, iri vomero rikikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti. Aba bana barimo gukaraga amazi kugira ngo babashe kuvoma amazi asukuye.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, asukura ibiganza bye kugira yirinde indwara agire ubuzima buzira umuze.

Ivomero imbere yaryo hari umuntu utagaragara mu maso, uri koga ibiganza, yisukura kugira ngo abashe kwirinda indwara cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyaterwa n'umwanda.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, harimo abera ndetse n'abirabura, bari kwiga ku mibereho myiza n'ubuzima bwiza bw'abaturage, barebera hamwe, ibyatuma abantu babaho neza bakagira ubuzima bwiza.

Umwana muto w'umukobwa uri koga amazi ari mu icupa kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi yirinde indwara ziva ku isuku nke.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye igitambaro mu mutwe ndetse n'agapfukamunwa, n'impuzankano yifashishwa n'abavuzi, ari mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi ku bitaro, iyo bari kwita ku murwayi.

Agakoresho kifashishwa mu kubika umuti, ndetse n'inshinge zifashishwa mu gutera abarwayi imiti kugira ngo bavurwe babe bakira indwara zitandukanye barwaye.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, bari kumwe n'umuntu w'igitsina gabo, wambaye indorerwamo z'amaso, bafite imfashanyigisho mu ntoki zabo, bazizamuye.

Abantu bari ku ivomero, baje kuvoma amazi meza bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ahateraniye abantu benshi ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, baje mu nama iri kuvuga ku buzima bwiza bw'abaturage ndetse bahawe n'impuzankano.

Abantu babiri b'igitsina gore bose bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza inyuma yabo hari ibendera, umwe yambaye impeta ku kuboko undi yambaye isaha ku kuboko.

Umubyeyi ukikiye umwana we, ari ku ivomero, iryo vomero ririho igikoresho kifashishwa mu kuvoma ndetse na we biragaragara ko yishimiye kuba iryo vomero riri aho ngaho.

Inama iri kuba, iteraniyemo abantu benshi batandukanye, ikaba iyobowe n'umwera ndetse n'umwirabura, imbere y'umwirabura ndetse n'umwera hari amazi kandi hari indangururamajwi.

Abantu babiri, umwe w'igitsina gore, undi ni w'igitsina gabo, uyu w'igitsina gabo ari kwereka uw'igitsina gore imikurire y'abana, amwereka uko abakobwa bakura ndetse n'uko abahungu bakura kugira ngo azabashe kubarera neza bagire ubuzima bwiza.

Abantu bane, umwe ni umuvuzi, abandi batatu baje kwipimisha umuvuduko w'amaraso, inyuma y'aba bantu bakikijwe n'ubusitani burimo indabyo ndetse n'insina n'ubwatsi, aba bantu bashaka kureba, uko umuvuduko w'amaraso yabo wifashe.

Abantu bari ku ivomero baje kuvoma amazi bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babashe kubaho neza, bagire ubuzima bwiza buzira indwara.

Umuntu w'igitsina gore uhekeye umwana mu mbavu, ari ku ivomero ndetse arishimye, yishimiye kuba bafite ivomero bakaba babona amazi asa neza bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abayobozi batandukanye harimo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, abera ndetse n'abirabura bahagaze imbere y'icyapa cy'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru hariho n'ibirango bitandukanye, bari gufata ifoto nyuma y'inama y'ibyerekeye ubuzima bwiza.

Umwana w'umukobwa uri ku ivomero, inyuma ye hari ibiti byinshi, imbere ye hari ibikoresho bakoresha bavoma amazi. Uyu mwana yishimiye iri vomero kubera y'uko babasha kubona amazi meza, bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu babiri umwe w'igitsina gabo wirabura undi w'igitsina gore w'umwera bari guhana igikapu cyanditseho tembera u Rwanda.

Umubyeyi wishimye, wambaye indorerwamo z'amasoso. Inyuma ye hari abana bamukikije, bigaragara ko bishimiye ibyo barebaga ndetse bafite n'ubuzima bwiza.

Abantu benshi bateraniye ku ivomero, bamwe bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi, bategereje kuvoma amazi bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza bitewe no gukoresha amazi meza.

Abana bari kumwe bafite ibyishimo ndetse n'umuntu w'igitsina gabo n'uw'igitsina gore nabo bishimye, n'umubyeyi ukikiye umwana we bishimye bafite ubuzima bwiza kandi baranezerewe.

Umubyeyi uteruye umwana, uyu mwana akaba ari gukingirwa n'umuvuzi, inyuma y'uyu mubyeyi n'uyu muvuzi hari abantu benshi ndetse nabo baje kwivuza.

Abantu bari ku ivomero, bamwe bari kukaraga amazi, undi ari kuvoma amazi, aya mazi akaba asa neza bakaba bayifashisha mu bikorwa bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babeho neza.

Abantu bicaye, umwe muri bo arahagaze, ari kureba umwana ukikiwe n'undi wambaye imyambaro y'umweru n'ingofero y'umweru.

Abantu batanu b'igitsina gore, bari ku ivomero aho bagiye kuvoma amazi yo kwifashisha mu mirimo itandukanye kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ababyeyi bakikiye abana babo, bicaye ku murongo, baje gukingiza abana babo kugira ngo aba bana bagire ubudahangarwa bw'umubiri, birinde indwara bazakure neza.

Umwana ukiri muto, wambaye umwambaro w'ibara ry'umuhondo n'umukara, ari ku ivomero. Inyuma ye hari abantu bamukikije, ndetse aya mazi ari kuvoma ni meza kandi abafasha kugira ubuzima bwiza.

Abantu bishimye, umwe aracyari muto undi arakuze, bari guseka, umwe yikoreye ijerekani ririho ikirangantego cy'umuryango w'Abibumbye.

Ivomero. Imbere yaryo hari umuntu w'igitsina gore, wambaye ingutiya y' umukara uri kuvoma amazi. Inyuma y' uyu muntu w'igitsina gore, hari imyenda yanitse ku mugozi ndetse n'inzu inyuma yawo n'ibiti bihari imbere y'inzu.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye hamwe harimo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore baje kumva amabwiriza ari gutangwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira indwara.

Umwana uri ku ivomero, impande ze, hari ibikoresho byifashishwa mu kubika amazi. Uyu mwana ari gukaraba intoki, yerekana ibyiza byo kugira ubuzima buzira umuze, ndetse n'ibyiza byo gukaraba intoki, ko bidufasha, kugira ubuzima bwiza.

Abantu bari ku kigo gitangirwaho ubuzima, batonze umurongo. Bose ni igitsina gore, umwe ari kubafatira ibizamini byerekeranye n'ubuzima, ababwire uko ubuzima bwabo buhagaze, abarwaye bivuze ndetse n'abazima bamenye uko barinda ubuzima bwabo.

Abana bakiri bato bambaye impuzankano y'ishuri, bari ku ivomero bakaraba intoki birinda indwara zaturuka ku isuku nkeya, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi kirimo abantu batatu b'igitsina gore, imbere yabo hari ameza ariho ibitabo bandikamo ibijyanye n'imyirondoro y'abarwayi.

Abantu benshi bari kumwe, higanjemo abakora mu bikorwa by'ubuvuzi, nyuma y'igikorwa cyo gusuzuma abantu benshi batandukanye, bagira ngo barebe ababa barwaye babagire inama yo kwivuza ndetse n'abakiri bazima babagira inama y'uburyo bakirinda.

Abantu bari mu cyumba kirimo za mudasobwa, aba bantu umwe ni igitsina gore, undi ni igitsina gabo bari kuganira ku byerekeye imibereho myiza ndetse iki cyumba gitatsemo ishusho irimo umukuru w'igihugu.

Abana babiri b'abakobwa bari ku ivomero. Bamaze kuvoma amazi umwe ari gufasha undi kwikorera amazi bamaze kuvoma.

Ku ivomero aho imbere y'iri vomero hari umuntu wambaye umwambaro w'ibara ry'ubururu, utagaragara igice cyo mu maso ndetse no hasi, agaragara yoga ibiganza bye byerekana isuku ndetse n'ubuzima bwiza.

Abana babiri bakiri bato, umwe wambaye umwambaro w'icyatsi ndetse n'umweru, undi wambaye umwambaro w'umutuku. Bari ku ivomero, ahari ivomero rizana amazi meza. Bishimiye kuba ayo mazi ahari kuko abafasha kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa ndetse n'umwambaro w'ubururu n'umwana wambaye impuzankano y'abanyeshuri ari kozwa intoki n'umubyeyi we kugira ngo uyu mwana agire ubuzima bwiza buzira indwara.

Umuntu utagaragara, hagaragara igice cy'iwe cy'ukuboko gusa, ari ku ivomero. Ari koga ikiganza cy'iwe kimwe, akaba agaragaza ibyiza by'amazi meza asukuye.

Abana bakiri bato bambaye impuzankano y'ishuri, bari koga ibiganza kugira ngo birinde indwara zituruka ku isuku nke kandi bagire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore ndetse n'abana, bari ku ivomero. Bafite igikoresho cyifashishwa mu kuvoma amazi, barishimye kandi bafite ubuzima bwiza, kubera gukoresha amazi afite isuku.

Umubyeyi wambaye imirimbo y'amatwi ndetse n'agapfukamunwa akikiye umwana mu biganza bye aramwishimiye kandi yishimiye ko afite ubuzima bwiza, inyuma ye hari undi mubyeyi wambaye agapfukamunwa na we akikiye umwana bafite ubuzima bwiza kandi barishimye.

Abantu batandukanye harimo ab'igitsina gore n'ibitsina gabo, bateze amatwi bari kungurana inama, bari kuvuga ku byerekeye imibereho myiza n'ubuzima bwiza bw'abaturage.

Abana bicaye hamwe bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, bicaye bakoze uruziga, barishimye ndetse bari kuganira; aba bana bafite ubuzima bwiza kandi baranezerewe.

Umwana uri ku ivomero, ari kuvoma amazi ndetse uyu mwana arishimye. Yishimiye ko babona amazi meza bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inyubako nyinshi ziri ahantu hamwe, zikikijwe n'ubusitani burimo ubwatsi, zerekana iterambere ry'igihugu, ndetse n'imibereho myiza y'abaturage.

Abavuzi bagera kuri batanu, bane b'igitsina gabo ndetse n'umwe w'igitsina gore, barishimye nyuma yo guhereza abaturage ibyerekeranye n'ubuvuzi ndetse n'ubuzima bwiza.

Abana bato b'incuke, bambaye impuzankano y'ishuri bari kumwe n'abarezi babo, bagerageza kumurikira abayobozi ibyo bize, byerekeranye n'udukino dutandukanye tubafasha kuruhuka mu mutwe.

Abavuzi bambaye impuzankano y'abavuzi, bari kumwe n'umwera, bari ku kigo nderabuzima cya Mayange, ndetse barishimye cyane bari gukoma mu biganza nyuma yo kwiga ku byerekeye ubuzima bwiza.

Ivomero rikikijwe n'abantu benshi bishimye kandi bishimiye kugira amazi asa neza kubwo kugira ubuzima bwiza, hari umwana wambaye umwambaro w'umutuku uri kuvoma ndetse n'umubyeyi wambaye umwambaro w'icyatsi uri kumukaragira amazi.

Umuntu wigitsina gore, impande ze hari amagambo yavuze, yageragezaga kubwira abantu kwegera abandi bafatanyabikorwa kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza kandi babeho neza.

Umurwayi uryamye ku gitanda cyagenewe abarwayi ari kwitabwaho n'abavuzi, aba bose bambaye udupfukamunwa bari kugerageza kumva amajwi ari mu nda y'uyu uryamye ku gitanda.

Ivomero rikikijwe n'abantu benshi hari umwana ufite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi ari kuvoma amazi meza bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi ngo babe bagira ubuzima buzira umuze.

Abana bambaye impuzankano y'ikigo cyabo bafite ibikombe mu ntoki, bari kuvoma ndetse biragaragara ko bafite ubuzima bwiza buzira indwara.

Icyumba cyabugenewe gitangirwamo inkingo, ahari abavuzi bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa, bagerageza gutanga inkingo ku bantu kugira ngo bashobore kugira ubuzima buzira umuze.

Abavuzi bambaye impuzankano y'abavuzi, barambaye barikwije, udupfukamunwa ndetse n'ibindi byo mu mutwe bibafasha guhisha imisatsi, aha hantu hari icyorezo gikomeye, bari kugerageza kwirinda banapima abarwayi, bareba ko baba baranduye icyo cyorezo.

Ikirangantego cy'Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye rishinzwe kwita ku bana ndetse no kurengera abana, kikaba gitera inkunga n'ibikorwa biteza imbere imibereho y'abana.

Ahateraniye abantu benshi baje kwisuzumisha iyi ndwara, aho bageze ku musaza uri gusuzumwa, indwara y'umuvuduko w'amaraso, hakoreshejwe agakoresho kabugenewe.

Abantu batanu, bane birabura ndetse n'undi umwe w'umwera, barishimye, baranezerewe, nyuma yo kugira ibiganiro bagahuza biga ku mibereho myiza.

Ivomero, iruhande rwaryo hari ibikoresho byifashishwa mu kubika amazi, ndetse n'umwana wishimiye kubona amazi asa neza, akaba ayifashisha mu rugo iwabo, kandi akaba yishimiye ko bafite amazi asa neza bakoresha mu rugo.

Inyubako yubatswe mu buryo bwiza ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bw'indwara yo mu mutwe, aho abayigana bahabwa ibikorwa byerekeranye n'ubuvuzi bw'indwara yo mu mutwe bakaba bakira.

Umubyeyi wicaye ku musambi ukikiye umwana, iruhande rwe hari undi mwana ukiri muto, imbere ye hari inkoko iriho imyaka ndetse n'agasani k'umutuku kariho imoyaka, bicaye imbere y'inzu yubakishije ibitaka.

Abana batishimye, barababaye cyane, ndetse bambaye n'imyambaro isa nabi, aba bana kandi bari kurira, bameze nk'abasaba imbabazi, bafite agahinda, aba bana bakeneye kwitabwaho, bakaganirizwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza bwo mu mutwe, babeho neza.

Ikirangantego cy'ivuriro, iri vuriro rikaba rivura indwara zo mu mutwe, aho abantu bagana iri vuriro, bagirwa inama ndetse bagafashwa no kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Inzu yubatswe mu buryo bigezweho, ikikijwe n'ubusitani burimo ibiti by'imikindo ndetse n'indabo, ahavurirwa abafite ikibazo cyo mu mutwe.

Umuntu w'igitsina gore wirabura, uzirikishijwe umunyururu; arihebye kandi afite agahinda, akeneye kwitabwaho, kugira ngo agire ubuzima bwiza, bwo mu mutwe.

Abantu b'igitsina gore, n'igitsina gabo, harimo umwe ushinzwe umutekano w'igihugu, bari gufata ishusho y'urwibutso, bishimye kandi banezerewe.

Umuntu w'igitsina gabo uhagaze imbere y'inzu ikikijwe n'ibiti by'imikindo ndetse n'ibyatsi, iyo nzu ikaba itangirwamo ubufasha ku bantu bafite indwara yo mu mutwe kugira ngo babashe kwitabwaho babe bakira.

Abantu babiri, umwe w'igitsina gabo wambaye agapfukamunwa, ndetse n'undi w'igitsina gore ufite indangururamajwi. iImbere ye hari umuti wifashishwa mu gusukura ibiganza, inyuma ye hari ibirangantego by'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima.

Umuntu ugaragara igice cy'ijisho, izuru ndetse n'umunwa, uyu muntu afite agahinda gakabije ndetse ari no kurira akeneye kwitabwaho akaganirizwa kugirango agire ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura cyane, yambaye imyenda yacikaguritse, afite agahinda ndetse yarakaye cyane. Uyu muntu afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, akeneye kwitabwaho kugira ngo abe yagira ubuzima buzira umuze.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye umwambaro w'umukara, yifashe mu maso ndetse afite agahinda kenshi, akenewe kwitabwaho, akanaganirizwa kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore, ufite imisatsi miremire, wambaye imirimbo yo ku matwi, wishimye ari guseka, ahagaze imbere y'icyapa kiriho amagambo y'umweru, ahavurirwa indwara zo mu mutwe.

Umuntu w'igitsina gore wambaye imyambaro isa nabi cyane ndetse n'inkweto zisa nabi cyane, afite uburwayi bwo mu mutwe. Impande ye hari amacupa ndetse na we akikiye ibintu byinshi bisa nabi, akeneye kwitabwaho n'abaganga bashinzwe ubuvuzi bwo mu mutwe kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abana bambaye impuzankano, bishimye bazamuye ibiganza, hagati hari Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse inyuma yabo hakikijwe n'ibiti.

Umuntu w'igitsina gabo, usa nabi cyane mu maso. Yambaye imyenda yacitse, ndetse n'inkweto zanduye. Afite ibintu bigaragaza ko afite uburwayi bwo mu mutwe, akenewe kwitabwaho, kugirango abe yaba muzima.

Ikirangantego cyerekana umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe bwiza, uyu munsi ukaba uba ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi aho abantu bawuhimbaza, bakagirwa inama y'ibyo bakora kugira ngo bagire ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Abantu bari kumwe, ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, barishimye bafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, nyuma y'inama yari imaze gukorwa ivuga ku byerekeye ibyiza byo kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, harimo abambaye imyambaro isa y'ibara ry'umukara, bari mu nama yerekeranye n'ibyiza by'ubuzima bwo mu mutwe.

Ikirangantego cy'umuryango wiyihogora ushinzwe kwita ku burwayi bwo mu mutwe, bugafasha n'abantu kugira imitekerereze myiza.

Abantu bateraniye hamwe baricaye ndetse bateze amatwi umwe w'igitsina gore ufite imisatsi miremire, uri kubagezaho ijambo ryerekeye kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Umuntu w'igitsina gabo usa nabi cyane wambaye imyenda yacitse, ufite imisatsi myinshi isa nabi. Akaba afite uburwayi bwo mu mutwe, akaba akenewe kwitabwaho kugira ngo abe yagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Ibikoresho bitandukanye bikozwe mu cyuma byifashishwa n'abavuzi bavura indwara z'amenyo ndetse no mu kanwa mu kuvura abarwayi no kubapima ibibazo baba bafite mu kanwa.

Umuvuzi wambaye impuzankano y'abavuzi, yicaye ku ntebe, impande ze hari igitanda cyagenewe abarwayi, ahavurirwa uburwayi bwo mu kanwa.

Umwana ukiri muto w'umukobwa, wambaye imirimbo y'amatwi ndetse n'umwambaro w'umuhondo, ari kwitabwaho n'umuvuzi uri kumupima indwara zo mu kanwa, kugira ngo hamenywe ikibazo afite.

Umuntu w'igitsina gore, wirabura, wishimye ufite imisatsi miremire, yambaye umwambaro w'umweru, ari koza amenyo ye, akoresheje igikoresho cyabugenewe cyo koza amenyo, bikaba byerekana ubuzima bwiza bw'amenyo.

Umuntu w'umurwayi w'igitsina gabo, ari kwitabwaho n'undi w'igitsina gore, uyu w'igitsina gore ari kumuvura amenyo, kugira ngo agire ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Icyumba cyabugenewe kivurirwamo indwara zo mu kanwa, kirimo abavuzi bari kwita ku murwayi, aho bari kumuvura indwara zo mu kanwa kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore w'imibiri yombi ufite imisatsi iboshye, aryamye ku gitanda cyagenewe abarwayi ahavurirwa indwara zo mu kanwa. Akaba agiye kwitabwaho n'umuvuzi ushinzwe indwara zo mu kanwa.

Ahateraniye abantu bambaye umwambaro wanditseho tubiteho, bari kwigishwa uburyo bwo kwita ku menyo ndetse no kuyakorera isuku kugira ngo bagire ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Umwana ukiri muto w'umukobwa yambaye imyambaro y'ibara ry'icyatsi n'umweru, arishimye afite igikoresho cyifashishwa mu gusukura amenyo, aho byerekana ubuzima bwiza bw'amenyo y'umwana.

Umuntu w'igitsina gabo uri kwerekana amenyo ye ameze nk'useka, ari gukoresha akadodo kabugenewe mu gusukura amenyo ye kugira ngo agire mu kanwa hazira indwara.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, bafite ibikoresho byifashishwa mu koza amenyo n'umuti wifashishwa mu koza amenyo. Barishimye kandi biyemeje kujya boza amenyo yabo kugira ngo bagire ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Umwana ukiri muto w'umwirabura aryamye ku gatanda kagenewe abarwayi ari kwitabwaho n'umuvuzi amupima amenyo ye ndetse no mu kanwa he kugira ngo amenye ikibazo afite.

Umwana ukiri muto, wishimye, ufite igikoresho cyifashishwa mu gusukura amenyo, yishimiye gusukura amenyo ye, kugira ngo agire ubuzima bwiza, bwo mu kanwa, ndetse n'amenyo afite ubuzima buzima.

Umusore w'imibiri yombi, uri guseka, yicaye mu cyumba kivurirwamo, afite urupapuro rw'umweru mu ijosi rye rwifashisha mu isuku.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri bari kumwe n'umuntu w'igitsina gore, ufite imisatsi miremire y'umukara, bafite imiti yifashishwa mu gusukura amenyo ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gusukura amenyo, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Icyumba cyabugenewe, kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, ahavurirwa uburwayi bwo mu kanwa, kirimo mudasobwa, zifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse n'intebe ndetse n'ibindi bikoresho, byifashishwa mu kuvura indwara zo mu kanwa.

Umwana ukiri muto ufite igikoresho cyifashishwa mu gusukura amenyo, ari gusukura amenyo yiwe, amenyo ye ndetse afite ubuzima buzima.

Umuntu w'igitsina gabo, ari kwerekana amenyo ye, yerekana uko wakoresha akadodo kabugenewe, mu gusukura amenyo yawe, ukaba wagira ubuzima bwiza bwo mu kanwa, ukirinda indwara zo mu kanwa.

Icyumba kivurirwamo indwara zo mu kanwa aho hari umurwayi uryamye ku gitanda cyagenewe abarwayi, ndetse n'umuvuzi uri kumwitaho agerageza kumuvura amenyo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo, ufite ubwanwa, ugaragaza igice cyiwe cyo ku munwa, ari gukura imwe mu myanda mu menyo ye, agerageza kwerekana ibyiza byo kwita ku isuku y'amenyo.

Umuvuzi ufite mudasobwa mu biganza bye, ari kureba uburwayi bw'amenyo muri mudasobwa kugira ngo abashe kumenya uko ari buvure umurwayi.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, muri iki cyumba hari intebe ndetse n'igitanda cyagenewe abarwayi mu gihe bari gusuzumwa indwara zo mu kanwa.

Ibikoresho bigezweho byabugenewe, byifashishwa mu kuvura indwara zo mu kanwa by'umwihariko amenyo, abantu bakaba bitabwaho bakagira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire y'umukara aragaragara nkuwishimye araseka yerekana amenyo ye akeye cyane, agaragaza ibyiza byo kugira mu kanwa hatagira indwara.

Umwana ukiri muto uryamye ku bitaro kwa muganga, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye impuzankano y'icyatsi n'agapfukamunwa, bari kureba ko arwaye indwara zo mu kanwa kugira ngo bamuvure abashe kugira ubuzima bwiza.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi bwerekeranye n'indwara zo mu kanwa ndetse no kuvura amenyo, iki cyumba kirimo ibitanda byagenewe abarwayi ndetse n'ibikoresho bigezweho, byifashishwa mu gupima uburwayi amenyo yaba afite.

Abana bato bishimye, bafite udukombe mu ntoki zabo ndetse bambaye impuzankano y'ikigo cyabo, bari koza amenyo bakoresheje igikoresho cyabugenewe cyo koza amenyo ndetse n'umuti wifashishwa mu koza amenyo.

Umuntu w'igitsina gore, wirabura, arishimye ndetse ari kugaragaza amenyo ye. Amenyo ye arasa neza cyane, kandi afite ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo ufite umusatsi mukeya, ari kugerageza gusukura amenyo akoresheje urudodo rwabugenewe mu gusukura amenyo, kugirango ngo yirinde indwara zo mu kanwa ndetse agire n'impumuro nziza mu kanwa.

Abantu b'ababyeyi bambaye impuzankano barishimye, bari kubyina ndetse bafite n'ubuzima bwiza, bitaweho kandi bazasaza bameze neza.

Umuntu w'igitsina gore, ufite imisatsi irimo imvi, ndetse wirabura. Ari mu myitozo ngororamubiri, mu rwego rwo kugira ubuzima, buzira umuze.

Abantu babiri umwe w''igitsina gore undi w'igitsina gabo bageze mu za bukuru ndetse bafite n'imvi, uw'igitsina gore ari kwereka uw'igitsina gabo agapapuro kanditseho utuntu, ndetse uw'igitsina gabo agiye kunywa imiti kugira ngo azasaze neza afite ubuzima bwiza.

Abantu babiri b'igitsina gore, umwe ageze mu za bukuru undi aracyari muto, uyu muto ari gufasha ugeze mu za bukuru gukora imyitozo ngororamubiri ngo azasaze neza.

Abantu bari kumwe, harimo umwana, urubyiruko ndetse n'abageze mu za bukuru bafite imvi, bari gufasha abageze mu zabukuru kwishima, kugira ngo basaze neza nta bwigunge bafite ubuzima bwiza.

Abantu babiri b'igitsina gore bageze mu zabukuru, bari mu myitozo ngororamubiri, barishimye ndetse barakora imyitozo ngororamubiri ngo bazasaze neza.

Abantu babiri umwe w'igitsina gore undi w'igitsina gabo, bigaragara ko bishimiranye, bikaba byerekana ibyiza byo kuba ufite ibyishimo uri mu zabukuru.

Umubyeyi w'igitsina gore, ugeze mu zabukuru, ufite imisatsi y'ibara ry'umweru, ari mu myitozo ngororamubiri, agerageza kugabanya ibinure no kugorora amagufwa ye kugira ngo azasaze neza afite ubuzima bwiza.

Umuntu ugeze mu za bukuru ufite imisatsi irimo imvi, imbere ye hari imeza, nawe yambaye agakoresho kambarwa nk'isaha, areba uko umubiri we uhagaze, kugira ngo amenye ubuzima bwe uko bumeze azasaze neza.

Abantu bari aho bafatira ifunguro, imbere hari umuvuzi wambaye impuzankano y'abavuzi, akaba ari gusunika umuntu w'igitsina gabo, bigaragara ko ageze mu zabukuru, amwitaho ngo asaze neza.

Icyumba cyabugenewe aho abageze mu zabukuru baganirira ndetse bagakora imirimo itandukanye y'amaboko ibafasha kwiteza imbere ndetse no gusaza bafite ubuzima bwiza.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru, wambaye indorerwamo z'amaso, ufite ikirahure mu ntoki, ari kunywa imiti kugira ngo abashe gusaza neza, afite ubuzima buzima.

Abantu bishimye barimo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, inyuma yabo bakikijwe n'ibimera bitandukanye ndetse n'imbere yabo hari ibimera bitandukanye, barishimye byerekana ko bafite ubuzima bwiza ndetse babayeho neza.

Abantu babiri, umwe w'igitsina gore, undi w'igitsina gabo, bari mu myitozo ngororamubiri yo kwirukanka, bagerageza kugorora amagufa ndetse bagabanye n'ibinure, babashe kugira ubuzima bwiza.

Umuntu wicaye utagaragara igice cyo mu maso, hakaba hagaragara ikiganza cy'iwe kimwe, kiri gukina umukino ukinwa bimura utuntu tw'udukoresho kugira ngo umwe abe yatsinda undi.

Abana bato bari kumwe n'abandi b'urubyiruko ndetse n'undi mubyeyi ugeze mu zabukuru, barishimye bari guseka, bafasha n'uyu ugeze mu zabukuru gusaza neza yishimye.

Umusaza ufite imvi, ugeze mu zabukuru, wambaye ishati ya karokaro irimwo amabara y'umutuku, umukara n'umweru, ari kwarura ibiryo byiganjemo imboga kugira ngo abirye, abashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri b'igitsina gabo bari gutembera ahantu hakikijwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi, bigaragara ko bishimye, bafite ubuzima bwiza kandi bazasaza neza.

Umuntu w'igitsina gore wambaye impuzankano y'abavuzi ari kumwe n'undi w'igitsina gabo ugeze mu zabukuru ufite ubwanwa burimo imvi. Uyu w'igitsina gore ari gupima uyu ugeze mu zabukuru umuvuduko w'amaraso kugira amubwire uko ubuzima bwe bumeze azasaze ameze neza.

Abantu babiri umwe w'igitsina gore wambaye impuzankano y'abavuzi ndetse n'agapfukamunwa undi w'igitsina gabo wambaye umwambaro w'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, uyu w'igitsina gore ari gupima itera ry'umutima w'uyu w'igitsina gabo.

Umusaza ugeze mu za bukuru ufite imisatsi irimo imvi, ari gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije udukoresho baterura kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze azasaze neza yishimye.

Abantu babiri, umwe w'igitsina gore, undi w'igitsina gabo, umwe yambaye indorerwamo z'amaso, agapfukamunwa ndetse n'imyambaro y'ibara ry'umutuku, undi bigaragara ko ari mu zabukuru, akaba ari kwitabwaho n'uyu nguyu wambaye impuzankano y'abavuzi.

Abantu babiri. Umwe w'igitsina gore wambaye impuzankano y'abavuzi, undi w'igitsina gabo ugeze mu zabukuru, wambaye indorerwamo z'amaso, ndetse afite n'imvi. Uyu w'igitsina gore ari kugerageza gufasha uw'igitsina gabo mu kugorora ingingo ze, kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Abantu babiri, umwe w'igitsina gore undi w'igitsina gabo bicaranye, imbere yabo hari mudasobwa irambitse ku meza ndetse n'impapuro n'imiti. Bari kureba uko umuti ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuntu w'igitsina gore ugeze mu zabukuru, ari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo azabashe gusaza neza afite ubuzima buzima buzira indwara.

Abantu bari kugenda mu muhanda, ku nkengero z'uyu muhanda hahinze ibyatsi, bari gutembera bagerageza kugorora ingingo kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze ndetse bazasaze bishimye.

Ahateraniye abageze mu zabukuru, ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bambaye imyambaro ya gakondo. Bari kwitabwaho kugira ngo bazagire amasaziro meza ndetse bahabwa n'ibiganiro byazatuma basaza neza.

Abantu babiri b'igitsina gabo bageze mu za bukuru, umwe yambaye ishati y'umweru n'umushanana w'umukara. Undi yambaye ishati y'ubururu bw'ijoro n'umushanana w'umweru, barishimye bari gukoma amashyi.

Abantu babiri bageze mu za bukuru, umwe w'igitsina gore undi w'igitsina gabo. Impande y'uw'igitsina gabo hari ikirahure kirimo amazi ndetse n'udukoresho twifashishwa mu kubika imiti.

Abantu babiri, bageze mu zabukuru, bafite n'imvi, umwe w'igitsina gore undi w'igitsina gabo. Barishimye, uw'igitsina gore yambaye umwambaro w'ibara ry'ubururu, ndetse n'indorerwamo z'amaso, n'imirimbo y'amatwi.

Umuntu ugeze mu za bukuru w'igitsina gore, wambaye imirimbo y'amatwi ndetse n'umwambaro w'umweru, arishimye cyane ndetse yitaweho, afite ibiryo mu ntoki ze byiganjemo imboga agiye kubirya kugira ngo agire ubuzima bwiza, azasaze neza.

Abantu babiri b'igitsina gore, umwe w'urubyiruko wambaye umwambaro w'ubururu, undi utari urubyiruko wambaye umwambaro w'umuhondo usa n'icunga rihishije, uyu w'urubyiruko ni umuvuzi, ari kwita kuri uyu mubyeyi ugeze mu za bukuru kugira ngo asaze neza.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire wambaye umwambaro uciye amaboko w'ibara ry'isine, ari kumwe n'undi w'igitsina gore, ugeze muzabukuru amukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu bateraniye hamwe b'igitsina gore, baricaye. Bari kuganira hamwe mu isoko ricururizwamo imbuto ndetse n'ibindi. Bigaragara ko abandi bateze amatwi umwe uri kubagira inama zizabafasha mu buzima bwabo bakabaho bishimye.

Abantu b'igitsina gabo bicaye mu ntebe ziri imbere y'inzu, bafite ubuzima bwiza kandi bitaweho kugira ngo bazasaze neza.

Urukingo rwifashishwa n'abantu mu kurema ubudahangarwa bw'umubiri, uru rukingo rwifashishwa mu kurwanya indwara izwi nk'ubushita bw'inkende, kugira ngo abantu babe bagira ubuzima bwiza.

Inama iri kubera i Kigali, iyobowe n'umwirabura ndetse n'umwera, imbere yabo hari amazi ndetse n'indangururamajwi, iyi nama iri kwiga ku cyorezo, ingamba zafatwa mu kucyirinda ndetse n'uburyo hatangwa ubutabazi bw'ibanze ku bo cyafashe.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi kiri kuberamo inama, hari abera n'abirabura, imbere hari abagabo batanu ndetse n'umugore umwe, bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima bwiza bashaka ingamba zatuma abantu bagira ubuzima bwiza.

Ikinyamakuru kiriho umubyeyi n'umwana imbere, inyuma yabo bakikijwe n'abantu batandukanye, iki kinyamakuru kiratangaza amakuru yerekeranye n'ubuzima bwiza bw'abantu.

Abantu bishimye, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'inzu, bo bishimiye kuba bafite ubuzima bwiza buzira indwara, kandi bakaba babayeho neza bitaweho.

Ikirango kigaragaza icyumweru cyahariwe kurwanya udusimba duto dutera indwara, ku bufatanye n'Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Ubuzima mu Rwanda ndetse na kaminuza y'u Rwanda n'ibindi bigo bitandukanye.

Icyapa cyandikishijeho amagambo y'umweru, agaragaza ibikorwa bizatangwa na muganga Rugengamanzi birimo igitera indwara, zo mu mutwe, uburyo bwo kuzirinda no kuzivuza.

Abantu bicaye hamwe mu cyumba cy'inama, imbere yabo hicaye abantu bayoboye inama, umwe muri bo afite indangururamajwi ari gutanga ikiganiro ku ndwara ya SIDA ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi, kirimo abavuzi b'abirabura ndetse n'abera, bari kwita ku murwayi. Uyu murwayi ararembye cyane, kandi akeneye gusuzumwa bigiye kure.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye neza ndetse n'indorerwamo z'amaso, imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu gufata amashusho, ari gutanga ikiganiro ku bijyanye no kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo, ugeze mu zabukuru, ufite imisatsi irimo imvi. Imbere ye, hari indangururamajwi. Ari gutanga ikiganiro, cyerekeye ku buzima bwiza, n'imibereho myiza, y'abantu muri rusange.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, iki cyumba kirimo mudasobwa zifashishwa mu kuvura abarwayi, kirimo abavuzi bambaye impuzankano y'abavuzi ndetse n'udupfukamunwa, bari kwita ku murwayi kugira ngo bamusubize ubuzima, ataba yabubura.

Umuntu uri kugaragaza kimwe mu gice cy'umubiri we cyajeho uduheri. Uyu muntu afite indwara y'uruhu cyangwa se indwara iri imbere mu mubiri ibimenyetso bikaba biri kugaragarira inyuma. Akeneye kwitabwaho akavurwa kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu babiri, umwe w'umwera undi w'umwirabura, bari imbere y'icyapa. Barishimye, nyuma yo gukora inama, yashakiraga ibisubizo, ibibazo abaturage bagiye bafite.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, kikaba kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi bafite indwara zitandukanye zo mu imbere mu mubiri.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, kirimo ibitanda bigenewe abarwayi ndetse n'ibikoresho bigezweho mu gusuzuma no kwita ku buzima bw'abarwayi.

Icyumba gicururizwamo imiti, iki cyumba kirimo utubati turimo imiti ihabwa abarwayi bakaba bakira indwara zitandukanye bakagira ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi ahazwi nko kwa Nyirinkwaya. Aho abantu batandukanye bagana iri vuriro bakavurwa bagakira indwara zitandukanye bakabaho neza.

Ikigo nderabuzima gitangirwaho ibikorwa by'ubuvuzi, gikikijwe n'ibiti ndetse n'indabyo, aho abakigana bahabwa ubuzima bwiza, bakaba bakira indwara zitandukanye barwaye.

Icyumba kigurishirizwamo imiti, aho hari utubati turimo imiti, ndetse imbere y'utwo tubati hari intebe y'umweru, hakaba muri icyo cyumba, hari n'amatara abiri.

Inyubako ikorerwamo igikorwa cy'ubuvuzi, aho hari umuvuzi wambaye imyenda yabugenewe y'ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umweru, hari n'abarwayi bategereje, basize intera hagati y'umurwayi n'undi kugira ngo bataba bakanduzanya indwara, bambaye n'agapfukamunwa mu rwego rwo kwirinda.

Inyubako itangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi, iyi nyubako imbere yayo hari Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibinyabiziga biri imbere yayo, hari n'abantu bari kuhagana.

Inyubako itangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi, inyubako impande zayo hari ubusitani burimo igiti cy'umukindo, ndetse n'ibyatsi, n'indabo. Imbere y'iyi nyubako hari abantu baje gusaba ibikorwa bitandukanye, ndetse hari n'ikinyabiziga.

Umuntu w'igitsina gabo, wicaye muri kimwe mu cyumba cyo mu bitaro, kirimo ameza ndetse na mudasobwa, yifashishwa mu kuvura abarwayi kwa muganga.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, kibitsemo imwe mu miti ihabwa abarwayi, mu kubavura indwara zitandukanye, bakaba bagira ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kuvura abarwayi, bakaba bagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, aho abarwayi barwariye mu bitaro bitaribwaho, hakaba hari umuntu w'igitsina gabo wambaye umwambaro w'ubururu n'umukara, akaba ari kuzinga inzitiramibu.

Inyubako itangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi, irimo ibikoresho bigezweho ndetse na mudasobwa, byifashishwa mu kuvura abarwayi no kubitaho, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, iki cyumba kikaba kirimo icyuma kigezweho, cyifashishwa mu gupima abarwaye indwara zirimo mo imbere mu mubiri, bakaba bahabwa ubutabazi batabura ubuzima bwabo.

Abantu babiri b'igitsina gore, umwe yambaye impuzankano y'abavuzi, ifite ibara ry'ubururu ,n'umweru ndetse n'indorerwamo z'amaso, undi yambaye imyenda y'ibara ry'umweru, akikiye umwana mu biganza bye.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho igerekeyije. Aho abayigana bahabwa ibikorwa bitandukanye, birimo gusuzumwa no kuvurwa bakabasha kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo nyubako itangirwamo ubuvuzi, kikaba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse bigezweho, byifashishwa mu gusuzuma abarwayi, kugira ngo hamenywe indwara barwaye zitandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, iki cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarwayi, harimo ibitanda byiza bifasha abarwayi mu gihe cyo kuryama barembye.

Inzu icururizwamo imiti isize ibara ry'umweru irimo amatara abiri, harimo utubati turimo imiti. Imbere y'utubati hakaba hateretse intebe y'ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo abarwayi bitabwaho baba mu bitaro, bari kwitabwaho n'umuvuzi wambaye impuzankano y'abavuzi, akaba ari kubabaza uko bamerewe.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi, iki cyumba harimo umuvuzi uri kwita ku mwana wavutse, arishimye, ndetse ari gusekera aka kana kakiri gatoya.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, kikaba kirimo ibikoresho byifashishwa mu kugorora umubiri by'umwihariko ku barwayi bafite ibibazo by'amagufwa ndetse n'ibindi bikenewe kugororwa..

Inyubako itangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi, iyi inyubako irimo ibyuma bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse bakaba bagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororangingo no kugabanya ibiro kugira ngo abantu bagire ubuzima buzira umuze.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, iki cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bugezweho, aho abarwayi bapimwa indwara zitandukanye bakaba bavurwa bakagira ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, iki cyumba kikaba cyaragenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho abantu bafashwa mu kugorora amagufa yabo no kugabanya ibinure, bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba gitangirwamo amaraso kirimo abantu batandukanye, ndetse n'amaraso abitswe mu bikoresho byabugenewe, azifashishwa mu guhereza abarwayi bahuye n'ikibazo cyo kugira amaraso make.

Icyumba cyabugenewe mu bitaro gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kikaba kirimo ibyatsi by'indabo ndetse kikaba gisize amarangi y'umweru.

Icyumba cyabugenewe kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, iki cyumba kikaba kirimo ibikoresho bigezweho, byifashishwa mu kwita ku barwayi bafite indwara zitandukanye.

Inyubako zitangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi, hanze kuri ibi bitaro hari umubyeyi uhetse umwana we ndetse n'abantu bagana aha kugira ngo bavurwe, bakire indwara barwaye, bagire ubuzima bwiza.

Inyubako zitangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi. Imbere y'izi nyubako hari ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu. Imbere hari n'ushinzwe umutekano wa hano kuri ibi bitaro. Aho abantu babagana bagasubizwa ubuzima, bakabasha kubaho neza.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi, ikikijwe n'ubusitani burimo ibiti by'amoko atandukanye n'indabo, hari abagenzi bari kugana kuri iyo nyubako, bagiye kwivuza.

Icyumba cyabugenewe kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, ahazwi nko ku Isange. Aha niho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bakaba barenganurwa.

Icyumba gicururizwamo imiti aho abantu bandikiwe imiti n'umuvuzi, bagana iki cyumba bakagura imiti itandukanye, bifashisha mu kwivura kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi, ikikijwe n'ubusitani burimo ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'indabyo n'ibyapa biranga ahantu hatandukanye, hari urujya n'uruza rw'abantu bayigana bamwe bajya kwivuza abandi bajya kuvura, abandi bajya gusura abarwayi.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi, imbere yacyo hari urujya n'uruza rw'abantu. Ku muhanda ucyegereye hari ikinyabiziga, kiriho abantu babiri, umwe w'igitsina gabo ugitwaye, n'undi w'igitsina gore, uri kugerageza kukivaho.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi giteraniyemo abantu benshi batandukanye, baje mu nama kugira ngo bagirwe inama zerekeye ubuzima bwabo uko bakifata neza bakabaho neza bagasaza neza.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, kirimo mudasobwa zigezweho zifashishwa mu kuvura abantu, iki cyumba kirimo n'intebe zigezweho z'abarwayi ndetse n'iya muganga, aho zifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye.

Inyubako zikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, ahazwi nko ku bitaro bya Kabgayi. Aho abagana ibi bitaro, bahabwa ubuvuzi, abarwayi bagakira.

Inyubako itangirwamo ibikorwa byerekeranye n'ubuvuzi, aha akabari ku cyumba kiswe nk'inzu y'ababyeyi, aho ababyeyi batwite bivuriza kandi bakaba banahabyarira.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho, irimo urujya n'uruza rw'abantu. Iyi nyubako itangirwamo ibikorwa byerekeranye n'ubuvuzi ndetse ikikijwe n'ishyamba; imbere yayo hari ibendera ry'igihugu.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, iki cyumba kikaba kirimo igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi mu buryo bugezweho, hakaba hamenywa indwara umurwayi afite byihuse.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, kirimo umurwayi uri kwitabwaho n'abavuzi bambaye impuzankano zabugenewe, basuzuma uburwayi yaba afite kugira ngo abashe kwitabwaho, agire ubuzima bwiza.

Abantu bateraniye hamwe, buri wese afite amazi imbere ye, hari n'uwambaye indorerwamo z'amaso uri gufata amashusho, bari mu cyumba k'inama kiri mu ivuriro rya Gahini, biga ku buzima bwiza bw'abarwayi ndetse n'abaturage muri rusange.

Icyumba cyabugenewe mu nzu zivurirwamo, ahari abavuzi bambaye impuzankano, bikwije hose ndetse no mu maso, bambaye udupfukamunwa tw'umweru, bagerageza kwita ku barwayi, bigaragara nk'aho abarwayi bari mu kato.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, ahari umuvuzi wambaye impuzankano y'abavuzi, ari kwita ku murwayi kugira ngo amusubize ubuzima, akire asubire mu buzima busanzwe.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, imbere y'iyi nyubako hicaye abantu benshi, iyi nyubako ikikijwe n'ubusitani burimo ibiti, indabyo nziza ndetse n'ibindi.

Icyumba cyabugenewe kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, kikaba kirimo igitanda kigezweho cyagenewe abarwayi ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Ikigonderabuzima aho bakirira abarwayi. Imbere yacyo hari abantu benshi baje bakigana, harimo abagabo ndetse n'urubyiruko n'ababyeyi, hari umubyeyi uhetse n'umwana we.

Inzu itangirwamo ubuvuzi, imbere yayo hari ibinyabiziga ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye, hari ibirango biranga ahantu hatandukanye muri iyo nzu itangirwamo ubuvubuzi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, aho imbere y'iyi nyubako hari ikinyabiziga hari n'abantu bahatambuka ndetse iyi nyubako ikikijwe n'ibiti ndetse n'indabo n'ubwabatsi, ahangaha abarwayi bakaba bahagana bagahabwa ibikorwa by'ubuvuzi.

Icyumba kiri mu nyubako zitangirwamo ubuvuzi, iki cyumba kikaba kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kuvura abarwayi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Icyumba cyabugenewe kiri mu nyubako y'ibitaro, kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bugezweho, aho abarwayi babasuzumira indwara zitandukanye.

Inyubako itangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi. Iyi nyubako irimo ibitanda byagenewe abarwayi ndetse n'ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kwita ku barwayi bafite ibibazo.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi, muri iyi nyubako bari kutwereka inzira igana aho bavurira abana, bakabitaho, bakaba bagira ubuzima bwiza kandi bagakura neza.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, iki cyumba kikaba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri aho abarwayi bashaka kugorora umubiri ndetse n'amagufa baza bagakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, imbere y'iki kigo nderabuzima hari ibiti ndetse hari n'abantu babahagaze imbere, aho abantu bagana iki kigo nderabuzima bagahabwa ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi bagakira indwara barwaye, bakagira ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, aho iki cyumba gikorerwamo ubushakashatsi butandukanye, cyane cyane ku ndwara abarwayi baba bafite barwariye mu bitaro.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi. Iki cyumba kirimo igitanda cyagenewe abarwayi, ndetse n'intebe y'umuvuzi. Kirimo n'ibikoresho byifashishwa mu gupima abarwayi kugira ngo hamenwe indwara barwaye.

Inyubako itangirwamo ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi, iyi nyubako ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibiti ndetse n'ibyatsi. Iyi nyubako abayigana bahabwa ibikorwa byerekeranye n'ubuvuzi, bakaba bagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Abagabo babiri umwe wambaye itaburiya undi wambaye ishati y'umweru, bari gutambuka ku nzu yubakishijwe amakoro mu buryo bugezweho.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, irimo za mudasobwa zifashishwa mu kuvura abarwayi, aho abarwayi bagana kuri iyi nyubako, bagasuzumwa kandi bakavurwa, bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, iki icyumba kirimo intebe nziza ndetse n'ameza niho bakirira abarwayi, kirimo n'imitako aho abantu baza babagana bafite uburwayi bitabwaho bagakira.

Umuvuzi wambaye impuzankano y'abavuzi, ufite imisatsi iboshye, ndetse wambaye n'igikomo ku kaboko, ari mu cyumba cyagenewe abarwayi, kirimo ibitanda by'abarwayi, ndetse n'ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Inyubako zitangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi. Ahazwi nko ku bitaro bikuru bya Nyanza. Kuri izi nyubako imbere yazo, hari ubusitani burimo ibiti, ibyatsi ndetse n'indabo. Aho abarwayi bagana kuri ibi bitaro, bakavurwa, bagakira.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, iki cyumba kirimo ibikoresho bigezweho, byifashishwa mu gupima indwara abarwayi bafite imbere mu mubiri, hakaba hamenywa ikibazo bafite bakitabwaho bakagira ubuzima bwiza.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, ifite ibirango bitandukanye byerekanira aho imirimo itandukanye ikorerwa, aho abantu bayigana barwaye bakabona ubuzima buzima.

Inyubako ikikijwe n'ubusitani burimo ibiti ndetse n'ubwatsi. Iyi nyubako itaba itangirwamo ibikorwa byerekeranye n'ubuvuzi, aho bavura indwara zihuriweho n'abantu ndetse n'inyamaswa.

Inzu ikorerwamo ibikorwa byo ku kuvu amaso aho abafite ikibazo cy'amaso bose babagana, akaba yahabwa indorerwamo z'amaso zijyanye n'uburwayi bwe.

Icyumba cyabugenewe kiri mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, kirimo umurwayi uryamye ku gitanda cyagenewe abarwayi. Impande ze hari ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inzu ikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi, ikikijwe n'ubusitani burimo indabyo, imbere y'iyi nzu hari umusirikare uri gutambuka ndetse iyi nyubako ifite ibirahure by'indorerwamo.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, aho hari abantu benshi batonze umurongo, ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, n'umuvuzi uri kubakira, hakaba imbere y'uwo muvuzi hari umuntu ufite ubumuga nawe utegereje.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, kirimo imitako myinshi itandukanye, kirimo igitanda cyagenewe abarwayi, bigaragara ko ari ho havurirwa abana.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, iki cyumba kikaba kirimo za mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bigezweho, byifashishwa mu gupima abarwayi kugira ngo hamenywe indwara barwaye, bitabweho, bagire ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi, iyi nyubakokaba ari ikigo nderabuzima, imbere yaha kuri iyi nyubako hari abantu, abagenda ndetse n'abahagaze abagana iyi nyubako barwaye bitabwaho bakagira ubuzima bwiza

Hanze ku nyubako itangirwaho ubuvuzi, hari abagabo babiri, umwe inyuma ye hari kizimyamwoto, undi yicaye imbere y'ahantu handitse ijambo irembo, uyu wicaye imbere y'ijambo handitse indirimbo ari gupimwa umuvuduko w'amaraso bareba uko ahagaze.

Igikoresho cyiganjemo ibara ry'umukara n'umweru, cyifashishwa mu kuvura indwara z'amagufa, mu gihe abantu bahuye n'imvune zitandukanye, bari mu myitozo ngororamubiri ndetse n'iyindi mirimo.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye isaha ku kuboko, ari mu myitozo ngororamubiri agerageza kugorora ukuguru kwe ndetse n'ukuboko kwe kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira indwara.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, aho iki cyumba kirimo igitanda cyagenewe abarwayi, ndetse na mudasobwa zifashishwa mu kuvura abarwayi mu buryo bugezweho.

Umuntu w'igitsina gabo ndetse n'undi w'igitsina gore, bari kumwe mu cyumba kimwe aho uw'igitsina gabo ateruye agakoresho kifashishwa mu myitozo ngororamubiri, afite ubuzima bwiza ndetse arerekana uburyo siporo ari nziza ku buzima bwacu.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho, byifashishwa mu gutanga ubutumwa ndetse n'ibindi byifashishwa mu gupima imibiri y'abantu, kugira ngo bamenye ubuzima bwabo uko buhagaze.

Abantu babiri bari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, umwe ari gutoza undi uko akina umukino ndetse amufasha no gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye imyambaro yabugenewe yo gukoresha imyitozo ngororamubiri iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, inyuma ye hari intebe, na we ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye imyambaro yambarwa mu myitozo ngororamubiri, ifite ibara ry'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibikoresho byifashishwa mu gukina imikino itandukanye, kugira ngo hakorwe igorororamubiri ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gupima, itera ry'umutima.

Ibikoresho bigezweho byifashishwa mu buvuzi, mu gusuzuma indwara nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo abafite uburwayi bitabweho ndetse n'abazima bagirwe inama y'uko bakwitwara.

Umuntu utagaragara mu maso, ufite mu kiganza cye icupa ririmo amazi, aya mazi ayanywaha nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo ufite imitsi ikomeye kubera gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ibikoresho byifashishwa mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho ababiterura baba bagerageza gukomeza imitsi, kugabanya ibinure ndetse no gukomeza amagufa.

Umuntu ugaragara igice cyo mu maso ndetse n'igice cy'ukuboko kwe, ari kunywa amazi ari mu icupa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira indwara.

Ihuriro ry'abantu benshi, bakikije ikibuga kirimo abana bari kubyina, bagerageza kwerekana imwe mu mbyino zifashishwa mu kugorora umubiri ndetse banashimisha abari aho.

Abantu babiri b'igitsina gabo, umwe arafasha undi wahuye n'ikibazo, mu marushanwa y'imyitozo ngororamubiri kugira ngo amusindagize abe yagera aho bari bumufashe, bakaba bamuvura.

Imbuto ndetse n'imboga n'amazi, n'agakoresho kifashishwa muri siporo, bikaba byerekana ubuzima bwiza abantu bakura ku mbuto, imboga, amazi, no gukora siporo.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye umwambaro uciye amaboko, ari kwitabwaho n'umuvuzi wambaye umwambaro w'umweru, amugororera ingingo, kugira ngo abashe kongera kugenda, atumva ububabare, mu gice cy'ikirenge.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, iki cyumba kirimo abavuzi ndetse n'abandi bantu bahakikije, hari n'umurwayi uryamye ku gitanda cyagenewe abarwayi, ari kwitabwaho, afashwa mu kugorora ukuguru kwe kwahuye n'imvune.

Umuntu w'igitsina gabo ufite ubwanwa, ari kunywa amazi, yambaye imyambaro yabugenewe yambarwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri ndetse bigaragara ko yakoze imyitozo myinshi.

Abantu babiri batagaragara igice cyo mu maso umwe aryamye ku gatanda yambaye inkweto undi arahagaze, uryamye ku gatanda ari gufashwa n'uyu uhagaze mu kugorora ingingo; amukandira ku gice cyo ku kuguru kugira ngo abeho neza.

Umuntu wicaye utagaragara igice cyo mu maso, arambuye ukuguru kumwe, ukundi araguhinnye, ari gukanda ahafite ikibazo cyo mu magufa, agerageza kwivura.

Umuntu ufite amazi uri kuyimena mu maso, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo agire ubuzima bwiza, yirinde indwara, kandi agire n'ingingo zigororotse.

Umuntu uri kunywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza, yirinde indwara, agorore n'ingingo ze, abeho neza.

Icyumba gikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, aho umuvuzi ari gupima umwana, ikibazo yaba afite mu kanwa, kugira ngo amenye uko amuvura.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye umwambaro w'umukara ndetse n'igikomo cy'icyatsi. Ari kunywa amazi, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza, buzira umuze.

Umuntu uri kwitabwaho n'undi w'igitsina gabo wambaye isaha ku kuboko, uyu muntu akaba afite imvune bakaba bari kugerageza kumufasha nyuma y'uko yari gukora imyitozo ngororamubiri agahura n'imvune.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa n'abantu mu gihe bakora imyitozo ngororamubiri kugirango bagire ubuzima bwiza buzira indwara.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi myinshi, wambaye umwambaro w'ibara ry'isine ari kunywa amazi, afite ubuzima bwiza ndetse avuye no mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye imyambaro y'ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, ari mu myitozo ngororamubiri, agerageza kurambura amaguru n'amaboko kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba kirimo imitako, muri iki cyumba turahabona umwera ndetse n'umwirabura w'umubikira, bari kumwe n'akana gatoya barishimye kandi bari kugerageza gukoresha uyu mwana imyitozo ngororamubiri, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ikirango cyerekana uko umuntu akora imyitozo ngororamubiri yifashishije ibikoresho bitandukanye. Iki kirango kandi cyerekana uburyo imyitozo ngororamubiri ari umuti ku buzima bw'abantu.

Umuntu wirabura, wambaye imirimbo y'amatwi, ari kunywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye imyambaro yambarwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, ari gukora imyitozo ngororamubiri, imufasha kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye mu ntebe y'umweru yambaye umwambaro w'umweru ndetse afite agakoresho gasa ubururu ari kwikandisha ku kaboko ke kugira ngo agorore ingingo z'akaboko ke agire ubuzima bwiza.

Umusore w'ibigango wambaye umwambaro w'ibara ry'icyatsi ndetse n'agakomo k'ibara ry'isine, ari kwimena amazi mu mutwe ari mu icupa, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara mu maso, wambaye impeta ku rutoki rwe ndetse n'igikomo ku kaboko ke, ari kugorora ivi rye mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo abe yagira ubuzima bwiza bw'amagufa ye.

Imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abavuzi mu gihe cyo kuvura abarwayi, aho abarwayi bahabwa ibinini ndetse n'inshinge kugira ngo babashe gukira.

Umuti uri mu gikoresho k'ibara ry'umweru, wifashishwa n'abantu mu kugabanya ububabare mu gihe bahuye n'imvune runaka, bakaba bagira ubuzima bwiza butarimo uburibwe.

Ibikoresho byifashishwa mu bikorwa by'ubuvuzi, aho umuntu wakomeretse cyangwa uwavunitse, akenewe kwitabwaho hakoreshwa ibi bikoresho kugira ngo ahabwe ubutabazi agire ubuzima buzima.

Igikoresho cyabugenewe cyambarwa n'abantu bahuye n'imvune, urugero nk'iyo umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri akaba yahura n'imvune akavunika nk'ukuguru, yambara iki gikoresho kugira ngo agerageze kurambura amagufa ye, kandi agabanye ububabare.

Umuntu wirabura wambaye imyambaro y'umukara isa ku kuboko, uhagaze yifashe ku mavi, uri mu myitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, yirinda zimwe mu ndwara zirimo nk'umubyibuho ukabije.

Abantu babiri, bambaye imyambaro y'umutuku inyuma y'undi mwambaro w'umweru, bateruye umusore, wambaye umwambaro w'umuhondo wanditseho nimero eshatu, uyu musore bari kugerageza kumufasha, nyuma yuko yaguye hasi ari mu myitozo ngororamubiri.

Umuvuzi wambaye impuzankano y'abavuzi, akaba afite agakoresho mu ijosi kifashishwa kumva itera ry'umutima, akaba ari gusuzuma umurwayi uryamye ku gitanda cy'abarwayi, cyabugenewe yumva ikibazo yaba afite mu ivi.

Umuntu w'igitsina gore, ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye imyambaro yifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ari kwinanura, yicaye ku buriri.

Inzu ikoraniyemo abantu batandukanye, bambaye udupfukamunwa, ndetse n'udukoresho twifashishwa mu guhisha imisatsi, bakurikiye mugenzi wabo uri kubagezaho ikiganiro.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye imyenda y'ibara ry'umukara, ari mu myitozo ngororamubiri, akanda amavi yiwe kugirango ngo abashe kugira ubuzima bwiza n'amagufa agororotse.

Abantu bateraniye hamwe, harimo abakuru ndetse n'abana bari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Inkoni yabugenewe ikozwe mu cyuma, yifashishwa n'abantu bafite imvune ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye by'amagufa kugira ngo bayifashishe mu kugenda.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye isaha ku kuboko, ari kunywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, kirimo igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi, kugira ngo babashe kureba indwara baba bafite mu mubiri mo imbere, habashwe kumenya imiti bahabwa ngo bakire.

Umuntu wambaye isaha ku kuboko ndetse n'imyambaro n'inkweto byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira indwara.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi myinshi, yambaye imyambaro yambarwa mu myitozo ngororamubiri ndetse ari no kugorora amagufa ye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu babiri umwe w'igitsina gore undi w'igitsina gabo, bambaye imyambaro yagenewe imyitozo ngororamubiri, bafite amazi mu macupa yabo, ndetse bari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo birinde indwara zitandukanye.

Icyumba kirimo umuvuzi. Muri iki cyumba harimo imiti ikomoka ku bimera. Iyi miti ikaba yifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuti wifashishwa mu gukuraho ibizenga mburyo bwa gakondo, uyu muti ukaba utangiza ibidukikije, aho abantu bawukoresha kugira ngo bagerageze kubungabunga ibidukikije bidakendera.

Umuti ukomoka ku cyatsi kizwi nk'igikakarubamba, uyu muti wifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye, bakagira ubuzima bwiza buzira indwara kandi bakabaho neza.

Imiti ikomoka ku bimera yifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo, aho abantu bayikoresha bakagira ubuzima buzima buzira umuze.

Umuti wifashishwa mu kwivura n'abantu, uyu muti ukaba ukomoka ku cyatsi kizwi nk'igikakarubamba, aho abantu bawukoresha bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Imiiti ikomoka ku bimera byifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zo mu mutwe kugira ngo bagire ubuzima bwiza ntibatakaze icyerekezo babeho neza bazasaze neza.

Icyatsi kiri aha ahantu hari ibiti by'imikindo. Iki cyatsi kifashishwa n'abantu mu kwivura mu buryo bwa gakondo, aho abantu bagikoresha bagakira indwara zitandukanye, bakagira ubuzima bwiza.

Umuti ukoze mu ruvange rw'ibimera, uyu muti ukaba wifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umuti ukomoka ku nzuki, uyu muti abantu bawukoresha bivura indwara zitandukanye, bakagira ubuzima bwiza, bakabaho neza ndetse bakazasaza bameze neza.

Imiti itandukanye ikomoka ku bimera harimo icyatsi kizwi cyane cy'igitakakarubamba aho abantu bakoresha iyi imiti bivura indwara nyinshi zitandukanye bakagira ubuzima bwiza.

Imiti itandukanye ikomoka ku byatsi, yifashishwa mu kuvura mu buryo bwa gakondo, aho abantu bayikoresha bakira indwara zitandukanye, bakagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Abantu babiri umwe w'igitsina gore, undi w'igitsina gabo, bari ahantu mu ishyamba, ahahinze ibimera birimo imiti yifashishwa mu kuvura gakondo, kugira ngo abantu babashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuti ukozwe mu cyatsi kizwi cy'igikakarubamba, wifashishwa mu kuvura indwara y'uruhu iboneka mu misatsi kugira ngo tugire ubuzima bwiza ku misatsi yacu.

Imiti itandukanye yabugenewe ikomoka ku bimera, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo, aho abarwayi bayikoresha kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Umuti wabugenewe wifashishwa mu kuvura indwara mu buryo bwa gakondo, ufite indabyo z'umweru, aho abawukoresha bivura indwara zitandukanye, bakaba bagira ubuzima buzira umuze.

Abantu bari ahantu hari ibyatsi, ibi byatsi bikaba byifashishwa mu kuvura indwara mu buryo bwa gakondo, kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, buzira umuze.

Umuti ukomoka ku bimera wifashishwa n'abantu bari kwivura indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze kandi babeho neza.

Icyatsi gihinze ku rugo rwubakishije ibiti, kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kugira ngo gifashe abantu kugira ubuzima buzira umuze.

Icyatsi kizwi ku izina ry'inyabarasanya gifite uturabo tw'umuhondo. Iki cyatsi cyifashishwa mu kuvura mu buryo bwa gakondo, aho umuntu ashobora kugishyira ku gisebe kugira ngo akamye amaraso ari kuva ari menshi.

Umuti ukomoka ku bimera, uyu muti wifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze kandi bazasaze neza.

Umuti ukomoka ku cyatsi kizwi cyane ku izina ry'igikakarubamba, aho uyu muti abantu bawifashisha bivura indwara zitandukanye, bakagira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo imiti ikomoka ku bimera, byifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umwambaro w'umweru, urimo imirongo y'umukara, ari gutunganya imiti gakondo ikomoka ku bimera, abantu bifashisha mu kwivura indwara zitandukanye kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Umuntu uri mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi, ari kureba imiti itandukanye kugira ngo amenye icyo iyo miti ivura, azabashe kuyiha abarwayi barwaye indwara zitandukanye bakire bagire ubuzima bwiza.

Icyatsi cyifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye, aho abantu bagikoresha mu kwivura mu buryo bwa gakondo, bakagira ubuzima bwiza buzira umuze, kandi bakabaho neza bakazasaza neza.

Ishyamba ririmo ibiti bifite amabara y'icyatsi ndetse n'umutuku, aho bimwe muri ibi biti byifashishwa mu kuvura mu buryo bwa gakondo, abantu bakabikoresha bivura indwara zitandukanye.

Umuti ukozwe mu cyatsi kizwi nk'igikakarubamba, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, aho abawukoresha bagira ubuzima buzima, bakaba babayeho bishimye, kubera ko bafite uwo muti w'igikakarubamba.

Ubuki bukomoka ku nzuki. Ubu ubuki abantu babukoresha nko gusimbuza isukari cyangwa se bakabukoresha babushyira mu miti, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, birinde ibintu by'amasukari menshi babeho neza bazasaze neza.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa gakondo, ikaba ikomoka ku bimera bitandukanye aho abantu bayikoresha bivura indwara zitandukanye bakagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Imiti ibitse mu bikombe bipfundikirwa, bifashisha mu kuvura abantu mu buryo bwa gakondo kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuti ubitswe mu gikoresho gifite ibara ry'umweru, wifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Imiti yifashishwa n'abantu mu kwivura mu buryo bwa gakondo. Iyi miti ikomoka ku bimera bitandukanye, aho abantu bayifashisha kugira ngo bakire indwara zitandukanye bagire ubuzima bwiza.

Imiti ikomoka ku bimera bitandukanye, aho abantu bayifashisha, imwe bakaba bayikoresha mu koza amenyo, mu gusukura uruhu ndetse n'ibindi, kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira indwara.

Umuti wifashishwa mu kuvura mu buryo bwa gakondo, ukozwe mu cyatsi kizwi nk'igikakarubamba, ukaba wifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye, kugira ngo babe bagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Imiti yifashishwa mu kuvura mu buryo bwa gakondo ikomoka ku bimera, abantu bakaba bayifashisha mu kwivura indwara zitandukanye kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Umuti ukozwe mu cyatsi kizwi cy'igikakarubamba, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, abantu bakaba bagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuti ukomoka ku bimera, harimo icyatsi cy'igitakarubamba, uyu muti wifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye, kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Imiti yifashishwa mu kuvura, iyi miti ikomoka ku bimera, iri mu bikoresho bitandukanye, abantu bakaba bayifashisha mu kwivura indwara zitandukanye.

Amacunga y'ibara ry'umuhondo, ndetse n'ay'ibara y'icyatsi, aya macunga akaba aribwa n'abantu, akabafasha kubaka ubudahangarwa bw'umubiri, bakagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Imiti ikomoka ku bimera yifashishwa n'abantu mu kwivura mu buryo bwa gakondo, aho abantu bayikoresha bakagira ubuzima bwiza buzi indwara kandi bakabaho neza.

Imiti ikomoka ku bimera yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye iri mu bikoresho by'umweru, aho abantu bayikoresha mu kwivura indwara zitandukanye.

Umuti ukozwe mu cyatsi kizwi nk'umuravumba, uyu muti akaba ari umuravumba bumishije bagakuramo agafu. ukaba wifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Umuntu uri kureba ibyatsi byifashishwa mu kwivura mu buryo bwa gakondo, aho abantu babikoresha bakabasha gukira indwara nyinshi zitandukanye.

Umuti ukomoka ku cyatsi cy'igikakarubamba, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, umuntu akaba yakongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Ikimera cyifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye, aho abantu bagikoresha bagihekenya, cyangwa bakagiteka mu biryo kugira ngo birinde indwara zitandukanye bagire ubuzima bwiza.

Umuti ukomoka ku bimera wifashishwa mu kuvura indwara y'inzoka ya amibe izahaza abantu bakaribwa mu nda cyane, iyo banyweye uyu muti babasha gukira iyo nzoka ya amibe bakagira ubuzima bwiza.

Umuti ukomoka ku bimera wifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza babeho neza bazasaze neza.

Icyatsi cyifashishwa n'abantu, aho bagikoresha mu kwivura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo, bakaba babasha kugira ubuzima bwiza, buzira indwara kandi bakabaho neza.

Ishyamba ricucitse ririmo ibyatsi bya kimeza, byifashishwa mu kuvura mu buryo bwa gakondo, aho ababikoresha bivura indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Imiti ikomoka ku bimera, yifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye, aho abantu bayikoresha bagakira indwara, bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyatsi kifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo, aho abantu bagikoresha bagakira indwara zitandukanye, bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuti ukomoka ku cyatsi kizwi nk'igikarubamba, aho abantu bawifashisha mu kuvura umunwa wabo, bikaba byabarinda ko wakumagara ugacika ibisebe.

Igikoresho gifite ibara ry'umweru n'umuhondo usa n'icunga rihishije, kibikwamo umuti wifashishwa mu kuvura indwara, bakoresheje uburyo bwa gakondo kugira ngo abantu babashe kugira ubuzima buzira umuze.

Ibyatsi biri ahantu hari uruzitiro, ibi byatsi byifashishwa n'abantu mu kwivura mu buryo bwa gakondo kugira ngo bakire indwara zitandukanye bagire ubuzima bwiza.

Imiti iri mu macupa y'umuhondo ndetse n'umweru, yifashishwa mu kuvura, iyi miti ikomoka ku cyatsi kizwi nk'igitakakarubamba, aho abantu bayikoresha bakagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Imiti ikomoka ku bimera, yifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze kandi babeho neza.

Imiti ikomoka ku bimera, yifashishwa n'abantu mu kwivura mu buryo bwa gakondo, aho abantu bayikoresha bagakira indwara zitandukanye, bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Igikoresho kibitsemo umuti ukomoka ku bimera, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo, kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyatsi cyifashishwa mu kwivura mu buryo bwa gakondo, aho abantu bagikoresha bivura indwara zitandukanye kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Icyatsi kizwi ku izina ry'umurahumba, kikaba cyifashishwa n'abantu mu kwivura mu buryo bwa gakondo, aho abagikoresha akenshi baba bivura indwara y'uruhu, bikaba bibafasha kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hitaruye hari ibimera by'amoko menshi, ndetse byiganjemo ibiti, ibi bimera byifashishwa mu kwivura mu buryo bwa gakondo aho ababikoresha bivura indwara zitandukanye bakagira ubuzima bwiza.

Icyatsi cyifashishwa n'abantu, mu kwivura indwara, ndetse no kubaka ubudahangarwa bw'umubiri, bakaba bagira ubuzima bwiza buzira indwara, kandi bakabaho neza.

Igikoresho cy'ibara ry'umweru n'ubururu, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, kibikwamo umuti wifashishwa mu kuvura indwara mu buryo bwa gakondo, kugira ngo abantu bagire ubuzima buzira umuze.

Umuti ukomoka ku icunga. Uyu muti wifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye ndetse no kubaka ubudahangarwa bw'umubiri kugira ngo babeho neza bafite ubuzima bwiza buzira umuze.

Igiti gikoreshwa nk'umuti aho abantu bakifashisha mu kwivura mu buryo bwa gakondo, bakivura indwara nyinshi zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuti ukomoka ku cyatsi kizwi nk'igikakarubamba, uyu muti wifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze, kandi babeho neza.

Imiti ibitse mu bikoresho bitandukanye ikomoka ku bimera, yifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa gakondo, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Umuti wifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye, uyu muti akenshi ukaba ukoreshwa havurwa indwara nk'izo mu muhogo, aho abantu bawukoresha bakira izi ndwara bakagira ubuzima bwiza.

Icyatsi cyifashishwa n'abantu mu kwivura mu buryo bwa gakondo, aho abagikoresha babasha kwirinda indwara no kwivura indwara zitandukanye, bakaba bagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibiti biriho ibyatsi, ibi biti bikaba byifashishwa n'abantu mu kwivura mu buryo bwa gakondo. Aho abantu babikoresha bakivura indwara zitandukanye, bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyatsi cyifashishwa n'abantu mu kwivura mu buryo bwa gakondo. Aho abantu bagikoresha bivura indwara ndetse bubaka n'ubudahangarwa bw'umubiri, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Imiti yabugenewe ikomoka ku byatsi yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, aho abantu bayikoresha mu kwivura bakaba bagira ubuzima bwiza.

Ibimera bitandukanye. Byifashishwa n'abantu mu kwivura indwara, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, buzira indwara, kandi bubake ubudahangarwa, bw'umubiri wabo.

Imiti itandukanye ikomoka ku byatsi bizwi n'icyayi, aho abantu bakoresha iyi miti bakagira ubuzima bwiza, bakabaho neza, bakirinda indwara.

Imiti ikomoka ku bimera yifashishwa n'abantu mu kwivura indwara zitandukanye, no kubaka ubudahangarwa bw'umubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibyatsi bicucitse biri ahantu hamwe, byifashishwa n'abantu mu kwivura indwara mu buryo bwa gakondo, aho ababikoresha bakira indwara zitandukanye, bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuti ukomoka ku cyatsi cy'igikakarubamba, uri mu gikoresho gifite ibara ry'umweru n'umupfuniko w'umutuku, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti ukozwe mu cyatsi cy'igikakarubamba, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, kugira ngo abafite uburwayi bitabweho, babashe kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ukuboko gufashe umuti ukozwe mu cyatsi kizwi cy'igikakarubamba ndetse n'ukundi kuboko gufashe igikoresho cyifashishwa mu koza amenyo, ibi byerekana uburyo iki cyatsi cy'igikakarubamba cyifashishwa mu kuvura indwara zo mu kanwa.

Ibimera bitandukanye, birimo icyatsi kizwi nk'igikakarubamba ndetse n'umwenya kifashishwa n'abantu mu kwivura mu buryo bwa gakondo, bakaba bakira indwara zitandukanye.

Imiti y'amoko atandukanye, iri ahantu hamwe, hifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, kugira ngo abantu bayikoreshe, babe bagira ubuzima buzima buzira indwara.

Imiti yifashishwa mu kuvura mu buryo bwa gakondo iri mu bikoresho bitandukanye, iyi miti ikomoka ku bimera bitandukanye abantu bakaba bayifashisha mu kwivura indwara kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.